Urubyiruko rwiganjemo abahungu ndetse n'umukobwa umwe, ruri imbere y'abantu, aho ruri kubasusurutsa rubabyinira imbyino zigezweho.

Umuyobozi wa RDB muri Nyagatare, afite mikoro ari kuvuga yambaye ikote, amarinete ndetse n'agashati k'umweru, imbere ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ngo invesite ini Rwanda.

Inama yahuriwemo n'abantu benshi batandukanye, aho bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'uducupa turimo indabyo.

Abagabo babiri bicaye mu ntebe bambaye amakote ndetse na za karuvati, imbere yabo hari amazi, inyuma yabo hari icyapa k'indekoye cyanditseho ngo: "Inama ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare, umuturage ku isonga serivisi inogeye bose".

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo urubyiruko bateraniye mu cyumba k'inama, aho bitabiriye amahugurwa akaba ari umwe wahagurutse wambaye ishati y'ubururu, ndetse na baji akaba afite mikoro ari kuvuga ijambo.

Umugabo wirabura usa n'ukuze, wambaye ishati y'ikigina, ndetse n'isaha afite mikoro mu ntoki, aho ari gutanga imbwirwaruhame ku bandi bantu batari kugaragara neza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo, abasore n'abakobwa, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umukara n'ubururu. Bitabiriye amahugurwa ubona yuko bose bakurikiye umuyobozi uri imbere yabo utagaragara neza uri kubabwira.

Abagabo ndetse n'umugore umwe bahagaze begeranye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi biganjemo urubyiruko na bo bahagaze bari kureba mu ifoto.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo bari mu mahugurwa. Aho bakurikiye imbere ndetse buri wese afite agacupa k'amazi. Imbere yabo hari abashinzwe umutekano. Hari umusirikare uri kuvugira muri mikoro ndetse hari n'abadaso.

Abagore n'abagabo b'abayobozi bitabiriye inama, bamwe barakurikiye abandi bari kwandika ibyo bari kumva mu nama, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo.

Umugabo wambaye amarinete ni umugabo wirabura yambaye ikote ry'umukara, karuvati y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru. Afite mikoro ari kuganiriza abaturage.

Abantu batandukanye bicaye bateze amatwi, ndetse bakurikiye umuntu uri imbere yabo, uri kubahugura. Imbere yabo hari kamera iri gufata amashusho, ndetse muri bo hari umwe ufite kamera mu ntoki uri gufata amashusho y'ibiri kubera imbere yabo.

Abantu biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo bitabiriye amahugurwa bakaba bakurikiye umuntu uri kubahugura imbere yabo ariko uwo muntu ntabwo agaragara.

Ibikoresho gakondo, byitwa imyambi. Byifashishwaga mu gihe cya kera bari kurwana, aho babyifashishaga barasa, byakoraga nk'imbunda z'ubu.

Aha turahabona intore iri kubyina, ica umugara, inyuma yayo hari abantu bakurikiye, bishimye, bari guseka, abandi bari gufotoza amatelefone yabo, bigaragara yuko bishimiye uyu muntu uri kubabyinira.

Imisambi myinshi irundanyirijwe ahantu hamwe, iri gucuruzwa. imbere yayo hari abantu batandukanye baje kuyicuruza.

Abantu biganjemo abakobwa beza, bambaye imishanana y'umweru n'udusengero tw'umweru, bafite n'utuntu biziritse mu gahanga, bari kubyina bashayaya ubona ko bizihiwe.

Aha turahabona umuduri ukozwe mu giti ndetse n'umushipiri ukweze cyane, n'agacuma gaciyemo kabiri. Ni igikoresho kifashishwa mu gutanga umuziki.

iIka zifite amabara y'umukara zambaye inigi ziteze amahembe ziryamye ahantu hamwe zifite umuntu ziri kureba imbere yazo.

Abasore babiri bahagaze bambaye imyitero y'umweru, ndetse irimo n'akabara k'umukara, barishimye bameze nk'abari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye mu nzu ndetse buri wese afite agacupa k'amazi, barangariye intore iri imbere yabo iri kubabyinira.

Umugore wishimye ari gukoma amashyi yambaye imishanana y'umweru ndetse n'urunigi rw'umweru mu ijosi, inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza bisa nkaho bari kubyina banaririmba.

Intore zambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imituku ,ndetse n'amayogi mu maguru, ziri guhamiriza zishimye ,ubona yuko rwose zishimiye ibintu zirimo gukora, abandi bicaye hirya mu gishirigati, bari kwitegereza ndetse bari kwihera amaso bishimye.

Inzu ya kera yubakishije ibyatsi, ni inzu yakoreshwaga n'abami bo mu rwanda rwo hambere. Ni inzu nziza iri ahantu kandi ubona ko yitaweho cyane, kugira ngo ikomeze igaragaze umuco nyarwanda.

Intore ziganjemo abakobwa n'abasore bari guhamiriza bamwe bari kubyina abandi inyuma yabo bari kuririmba hakaba hari n'umukaraza uri gukubita ingoma ubona yuko hari ibirori bishimishije.

Abakobwa bambaye imikenyero ya Kinyarwanda y'umweru ndetse bafite ibisuko mu mutwe by'umukara, bose bafite ibisabo mu ntoki.

Ababyinnyi b'intore biganjemo abasore n'inkumi bateze amaboko bari kubyina bishimye bambaye ibinigi by'umweru ndetse abakobwa bambaye imishanana y'umweru ndetse abasore bo bambaye amashati y'imikara.

Abakobwa bishimye, bari kubyina, banaririmba, bateze amaboko, bambaye imyenda yiganjemo imikara ndetse n'utuntu mu gahanga, umwe yambaye urunigi rw'umweru.

Abantu biganjemo igitsina gore bambaye udupira tw'umweru, umwe afite mikoro ari kuririmba, bari gukoma amashyi bishimye ubona y'uko ari intore, hari n'umukaraza uri kuvuza ingoma.

Ni ipoto y'amashanyarazi inyuzeho urusinga rukomeje ndetse n'urwambukiranyije umuhanda. Iriho amatara abiri, iburyo n'ibumoso amurika mu muhanda .Inyuma yayo hari igiti.

Umutekinisiye w'amatelefone yicaye ku gatebe imbere ye hari agatajeri karimo amatelefone agenda akora, ndetse n'amasharijeri acometse kuri ayo matelefoni.

Umutayeri w'umugore ari imbere y'imashini yiwe yifashishwa mu kudoda ari kudoda agatenge, imbere ye hari umukasi ndetse n'ikidongi cy'ubudodo bw'umutuku.

Aha turahabona umutekinisiye wambaye imyenda y'akazi, kasike y'umuhondo ndetse n'ingofero y'umukara n'agapfukamunwa ndetse na ga z'umutuku, afite imashini yifashisha ari gukanika ibintu bitandukanye.

Umugabo wirabura wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ijire ahagaze imbere y'ikimashini kinini gitanga umuriro ari kwerekana utuntu bagenda bakupa ndetse tumwe bakadukupura kugira ngo umuriro uboneke.

Ni ipoto icaho insinga zitanga amashanyarazi ndetse ni ho amashanyarazi menshi acanwa mu ngo z'abaturage afatiye.

umukobwa wambaye taburiya y'ubururu ndetse na kasIke y'umuhondo, afite n'ibisuko, afite ipensi ari gukanika ibintu by'ibinsinga, ubona yuko ari umutekinisiye w'amashanyarazi.

Inyubako za leta zubatse mu buryo bugezweho, inyubako zisize amarangi y'umuhondo, zikaba zisakaje amabati y'ubururu, imbere yazo hari abagenzi bari guhita ndetse haparitse n'imodoka.

Abantu biganjemo igitsina gore, bambaye amataburiya y'ubururu, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, bambaye ubupfukamunwa barimo kubyina banakoma amashyi, imbere yabo hari umuntu uri kubafotora. Inyuma yabo kandi hari inzu isize ibara ry'ubururu yanditseho ngo gira ubuzima.

Abantu benshi bari kwambuka ku rutindo rw'icyuma, rwubatse mu kirere hejuru y'amazi.

Inyubako za Leta zubatse mu buryo bugezweho, zisakaje amabati y'umutuku, zikaba zifite amarangi y'umuhondo, zikaba zubakishije amatafari ahiye, imbere yazo haparitseho imodoka ndetse n'amamoto.

Inyubako nziza zisakaje amabati y'ubururu, zubakishije amatafari ahiye, imbere yazo hari imodoka itwara imiti, ikigaragara cyo ni kwa muganga, batanga serivisi z'ubuganga.

Inyubako ya leta yubakishije amatafari ahiye, iriho amabara y'umweru, isakaje amabati y'umutuku, hejuru yayo hamanitseho imirasire itanga umuriro.

Ahantu hari umuhanda w'igitaka, hubatse inyubako nyinshi za Leta, hakurya y'aho hari umujyi nawo urimo inyubako nyinshi cyane.

Icyapa cy'Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka baririja, igicumbi cy'Umudugudu wa Barija B, kiri kwerekana indangagaciro ndetse na kirazira z'Akarere ka Nyagatare.

Inyubako za leta ziri ahantu hamwe zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'umutuku, ziri ahantu mu kirambi ndetse hakurya yazo hari umurambi urimo ibiti bitandukanye.

Abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, bitabiriye inama kandi barakurikiye, umuyobozi arahagaze ari kubabwira, inyuma y'abo bantu hari idarapo ry'Igihugu ndetse n'inzu nziza.

iInyubako za leta zubatse ahantu heza, zifite amarangi y'umweru ,zikaba zisakaje amabati asize amarangi y'ubururu, hari abantu baje kwakaho serivisi.

Inzu isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu ,yanditseho amagambo hejuru yayo avuga ngo gira ubuzima.

Ikiraro cyubatse mu buryo bwa gihanga, cyubatse hejuru ndetse ni kimwe mu bikorwa bya Leta. Ni ikiraro abantu banyuraho bagenda hejuru y'amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagabo n'abagore, hakaba harimo abambaye imyenda isa y'umukara ndetse na baji, harimo n'umugore wambaye itaburiya y'umweru hagati yabo, inyuma yabo hakaba hari inzu isize irangi ry'ubururu, yanditseho amagambo agira ati girubuzima.

Umugore wirabura wambaye umupira w'umukara ndetse n'igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umukara, ari ku kiraro cy'ibyuma cyubatse hejuru y'amazi, ari kwambuka ndetse ubona ko abyishimiye.

Abantu benshi batandukanye barimo abambaye imyenda yiganjemo umweru bari ku nyubako isize irange ry'umuhondo bakaba hari serivisi baje kuhashaka.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu, isakaje amabati y'umweru ndetse n'ubururu, irimo abantu bicaye, basa nk'abategereje umuyobozi.

Abantu biganjemo abagore bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa bari kubyina banakoma amashyi, imbere yabo hari umuntu uri kubafotora, inyuma yabo hari inzu isize ibara ry'ubururu yanditseho ngo Gira ubuzima.

Ku nyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ndetse muri iyo nyubako hari abantu baje gushakayo serivisi, inyubako ikaba isize irangi ry'ubururu, hakaba hariho icyapa hejuru cyanditseho ngo gira ubuzima hejuru y'umuryango.

Ni ikiraro cyubatse hejuru, munsi yacyo hakaba hagiye gucishwamo undi muhanda, hejuru y'ikiraro hari kugendaho abagabo babiri, hirya y'aho hari n'abandi bana babiri bari gutambuka.

Abantu barimo abagore n'abagabo, barimo baraturuka ku nyubako isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye ndetse isize n'amabara y'umweru, inyuma yabo hari ikigega gifata amazi.

Inyubako nziza ziri ahantu heza, zubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari urupangu rwinjiramo, rwanditseho ngo Inyange Milike, bigaragara ko ari ahantu hatunganyirizwa amata.

Abantu benshi batandukanye bari kwambukira ku kiraro k'icyuma kiri mu kirere, bari kugana imbere kandi ubona ko hari ibintu byiza. Aho bari kugana hari abandi bantu bategereje na bo kwambuka, bategereje ko abo ngabo babanza guhita kugira ngo na bo baze.

inyubako za Leta zigezweho, ziri kubakwa, zigeze mu gusoza ndetse urabona y'uko habura ho gatoya kugira ngo babe bazisoje, zitangire gukorerwamo imirimo zagenewe.

Inyubako ya Leta yubatse mu buryo bugezweho ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati asa n'kigina, imbere yayo hari ubusitani bwiza bw'indabyo zitandukanye.

Abantu barimo abiganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore ,bahagaze ku murongo, bambaye utuntu dusa mu ijosi ,bose bafite amamikoro biteguye kuririmba.

Abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bahagaze ku murongo ahantu hamwe bigaragara ko basoje amahugurwa bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bateraniye ahantu hamwe baricaye baje gukurikira amahugurwa, imbere yabo hari umuntu utagaragara mu ifoto uri kubabwira ibintu bitandukanye.

Uruhurirane rwabantu batandukanye bicaye bakurikiye inama, hari nabanyeshuri bicaye hasi bakurikiye inama imbere yabo hari umupolisi uri kubaganiriza, hari n'umusirikare wicaye ariko utagaragara neza, hagaragara ingofero ye gusa.

Urujya n'uruza rw'abantu, bicaye mu gisharagati, biganjemo abagore n'abagabo ndetse imbere hari Abapolisi bashinzwe umutekano w'igihugu. bakaba bakurikiye ikiganiro kiri gutangwa n'umuyobozi.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo n'abasirikare bashinzwe kurinda umutekano w'igihugu bari mu muhanda aho bafite icyapa cyanditseho ku kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Abagabo bambaye amakote y'imikara bateruye amasanduku bigaragara ko bagiye gushyingura hari n'abandi biganjemo abagore bafite indabyo bagiye gushyira ku mva z'abantu babo bitabye imana.

Abantu barimo abagabo ndetse n'umugore wambaye amarinete baje gushyingura bakaba bazanye indabyo baje gushyira ku muntu wabo wapfuye.

Abakorerabushake batatu bambaye amaji y'umuhondo, bahagararanye n'abantu batandukanye barimo abasirikare na ba DASSO, bakurikiye umuntu uri kugira icyo ababwira, nyuma y'umuganda.

Umugabo wirabura ukuze yambaye ishati y'umutuku ndetse n'isaha ku kaboko afite mikoro ari kuganiriza abantu, inyuma ye hari abantu benshi bagaragara y'uko bishwe n'izuba, bicaye ahantu hamwe bakurikiye ibiri kuvugwa.

Abayobozi batandukanye barimo abapolisi ndetse n'abasirikare, n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye, bari hamwe aho bacanye buje bakaba bari no gufata ifoto y'urwibutso.

Mu karere ka Nyagatare abaturage baje kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, nk'uko bigaragara kuri bano bafite, umugabo wambaye ishati y'umutuku afite mikoro ari kuganiriza abaturage kuri icyo gikorwa.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bitabiriye umuganda, bari gukora umuganda batoragura ibintu by'umwanda ndetse bamwe bari gukupakupa abandi bakora amasuka atandukanye, bari kuwukorera ahantu hafi y'ishyamba ndetse aho bari kuwukorera ibiti bihari babitemye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, ifite imiryango ibiri ndetse n'amadirishya abiri, imbere yayo hahagaze abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa, inyuma yayo hari umwana uri imbere y'ikigega.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo n'bana bicaye ahantu hamwe, bakurikiye umuyobozi ibyo ari kubabwira. Bari kubwirwa ku bijyanye no kurengera uburenganzira bwabo.

Abantu biganjemo abagabo ndetse n'umugore umwe, bahagaze ahantu harimo umuporisi wambaye impuzankano, inyuma yabo hari insina ndetse bahagaze ahantu bari gufata ifoto y'urwibutso.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe baje mu mahugurwa aho bari kuganirizwa ibintu bitandukanye bakaba bicaye bakurikiye, imbere hari abantu bahagaze harimo umusaza ufite mikoro, umusaza uri kuvuga ijambo, ubona ko ari umusaza ukuze.

Ahantu habereye inama umusirikare wambaye impuzankano, akaba afite mikoro mu ntoki ari kuganiriza abaturage. Inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo repubulika y'u Rwanda, intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare. Intego rusange y'urubyiruko.

Imodoka y'Akarere ka Nyagatare iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru iparitse mu muhanda wa kaburimbo, hirya yayo hari umutaka w'umu ajenti ndetse n'umu ajenti urimo.

Icyapa kiri ahantu ku muhanda mu ishyamba cyanditseho ngo Kagitumba Nyagatare tawuni Nyagatare hosipito.

Umumotari ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ari wenyine nta mugenzizi afite, inyuma ye hari umutaka wa MTN,w'umu agent, hari n'amazu menshi y'ubucuruzi.

Ni abamotari babiri baparitse ku ma moto yabo, bari kuganira bibaza aho bari bukure abagenzi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo kora wigire kiri mu ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara. Kiri kwerekana yuko muri Nyagatare hari Ikigo cya REG.REG ni Ikigo k'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi n'amashanyarazi.

Imodoka y'umweru, iri mu bwoko bwa toyota, iparitse imbere y'inzu, iyo nzu ikaba itangirwamo serivisi z'irembo, hariho n'icyapa cyanditseho ngo irembo.

Umumotari ari mu muhanda wenyine ndetse akaba ari kugana imbere, ahetse icupa rya gibu, inyuma ye hari abantu benshi bari muri gahunda zitandukanye.

Imodoka ebyiri z'umukara, ziparitse ahantu mu kibuga ndetse imodoka imwe yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, yitwa ngo ''wakanda.''

Umumotari ari mu muhanda wa kaburimbo arahagaze, umugenzi ari kumwishyura kubera yuko yari amugejeje aho agiye, inyuma ye hari icyapa cyanditseho sitopu, bivuga guhagarara.

Ikimodoka kinini cya bisi gitwara abagenzi kiraparitse, inyuma yacyo hari ikindi nacyo gitwara abagenzi, imbere hari abantu bategereje kwinjiramo ariko bakiri kuvugana n'umushoferi wacyo.

Ni mu Karere ka Nyagatare aho urujyauruza rw'abaturage bitabiriye urugerero rw'Inkomezabigwi, hari icyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda Intara y'Iburasirazuba Akarere ka Nyagatare rugerero rw'Inkomezabigwi, duhamye umuco w'ubutore ku rugerero rwo kwigira.

Abasirikari, abadaso ndetse n'abandi baturage basanzwe, bari mu gikorwa cyo gukora umuganda, aho bafite ibikoresho byitwa kupakupa, bari kwifashisha bakata ibyatsi kugira ngo ahantu hamere neza.

Abantu batandukanye barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bitabiriye umuganda bari gukupapupa ibyatsi bakoresheje kupakupa, muri abo bantu harimo n'abasirikare ndetse n'aba daso.

Aha hari abantu benshi bari mu nama, imbere hicaye abantu bashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye, abapolisi babiri ndetse n'umusirikare umwe.

Abantu benshi bikoreye amabuye ndetse n'amatafari bamwe bari kuza bagana aho bayajyanye abandi bari gusubirayo, bagiye kuzana ayandi kugira ngo bayubakishe. Inyuma yabo hari ibigori ndetse n'insina ndetse n'ipoto inyuzeho insinga z'amashanyarazi.

Umusore muto muto wambaye umupira w'umutuku, yikoreye ibuye ndetse bigaragara yuko ari mu muganda, aho ari gutunda amabuye yo kubakisha inzu z'abatishoboye.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo igitsina gabo, bose bafite amasuka ubona y'uko bitabiriye umuganda ,bakaba bari kuwukora bishimye kandi bashishikaye

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo bafite amasuka bose bitabiriye umuganda bari kugenda bahinga ndetse bakuraho n'ibihuru.

Abantu benshi biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasore n'abakobwa, bari ahantu imbere y'inzu isakaje ibati yubakishije ibiti, bari gukora umuganda.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ab'igitsina gore, bateraniye ahantu bari mu busabane, barishimye bari kubyina, ubona yuko ibintu ari byiza cyane.

Urujya n'uruza rw'abaturage bitabiriye igikorwa cy'umuganda ubona y'uko babukereye biganjemo abagore ndetse n'abagabo bafite ibikoresho bitandukanye birimo amasuka, ibitiyo ndetse n'ibindi.

Ni kuri sitade abakinnyi bari mu kibuga, bari gukina umupira w'amaguru, muri abo bakinnyi harimo abambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'abambaye imyenda y'ubururu.

Abantu bambaye imyenda ya siporo yitwa amajezi bari muri siporo ndetse bari kunanura umubiri harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, inyuma yabo hari inyubako iriho abandi bantu.

Ni ikipe yambaye imyenda myiza isa, ndetse bari kumwe n'umutoza wabo. Umutoza akaba afite balo mu maguru yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, naho abakinnyi bo bambaye imyenda yiganjemo ubururu ndetse n'amasogisi y'umweru.

Ahantu hadekoye neza, hicayemo abantu benshi batandukanye, harimo umupolisi umwe yicaranye n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'amarinete. Abandi bantu bose barakurikiye igaragara nkaho ahari umuntu uri kubaganiriza.

Abakinnyi bari muri stade, bari gukina umupira w'amaguru, bambaye imyenda ya siporo yiganjemo iy'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abakinnyi bari muri stade, aho bari bari kwitoza ndetse imbere yabo umutoza wabo ari kuza abasanga ababwira yuko bakoze neza.

Abakinnyi bari mukibuga bari gukina umupira bambaye imyenda ya siporo yitwa amajezi ndetse na godiyo, imyenda bambaye yiganjemo iy'umuhondo, ubururu ndetse n'umukara.

Abakinnyi bambaye imipira y'umuhondo hejuru ndetse n'amakabutura y'imukara na godiyo, bari mukibuga, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye, bategereje yuko umukino utangira.

Abakinnyi biganjemo abasore ndetse n'umukobwa umwe hagati yabo, bakaba bari ku murongo, imbere yabo hari umunti uri kubafata ifoto y'urwibutso.

Abantu bicaye bisa nkaho bashoje siporo, umuyobozi wabo ari imbere yabo, afite mikoro, ari kubasobanurira ibyiza byo gukora siporo, kuko ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Abana batatu bari mu kibuga, bari gukora siporo, bakina agapira ndetse bazi yuko siporo ari ingenzi mu buzima bwabo. Bishimiye ibyo barimo ndetse ubona yuko bibashishikaje.

Abakinnyi bari mu kibuga, muri sitade bambaye amagezi atandukanye, bakaba bari gukina umupira w'amaguru ndetse bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umuhondo.

Muri sitade abakinnyi b'igitsina gore bari gukina umupira w'maguru bambaye imyenda ya siporo itandukanye irimo iyiganjemo amabara y'umukara n'umweru ndetse n'umutuku.

Abakinnyi bishimiye intsinzi ubona ko bafite akanyamuneza ku maso, umupira wabaye ni Ikipe ya Rwimiyaga ndetse na Rukomo, Rwimiyaga ikaba yatsinze kimwe Rukomo ikaba yatsinze bibiri.

Inyuma ya stade, abantu bakaba bari muri siporo, bose bagaramye, bari gukora iby'umutoza wabo ubarimo hagati ari kugenda ababwira. Siporo ni igenzi kandi zifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'amasogisi y'umweru na godiyo zijya gusa umuhondo, afite balo agiye kuboneza mu izamu.

Abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'icyatsi bari muri siporo, aho bari gukora ka mucaka bagenda bitoza bagorora amaguru kugira ngo binjire mu kibuga bameze neza.

Ni mu kibuga abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye, bari gukina umupira w'amaguru, harimo abambaye jezi z'ubururu n'umweru, abandi bambaye jezi z'umuhondo.

Abantu benshi bambaye imyenda ya siporo, bari muri siporo. Imbere yabo hari umukobwa uri kubakoresha siporo, abereka ibyo bakora nabo bakabisubiramo.

Abantu benshi bari kuri sitade, bari muri siporo, imbere yabo hari umuntu uri kuberekera ibyo bakora nabo bakabisubiramo, siporo n'ubu ubuzima ndetse ifasha imibiri yacu, kugororoka no kumererwa neza.

Urujya n'uruza rw'abantu, bari muri sitade bicaye mu ntebe zo muri sitade baje kureba umupira, ubona yuko bishimye kandi bishimiye yuko bari butahane intsinzi.

Umusirikare wambaye impuzankano ze ndetse n'abandi bagabo babiri baje kuri sitade kureba umupira, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bicaye.

Abantu biganjemo urubyiruko ubona yuko bishimiye ibintu bajemo, bicaye ahantu hamwe, harimo umwe uri guseka wishimye abandi barangariye mu mashini.

Imodoka iri mu bwoko bw'ivatiri, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iri mu muhanda wa kaburimbo yonyine.

Umumotari uri mu gahanda k'amaguru, ari kugenda ariko nta mugenzi ahetse. Imbere ye hari umunyonzi uhetse ibitoki byinshi ku igare, ari kugenda arisunika.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo umugenzi uri gutambuka, hirya ye hari imodoka iri kugenda ndetse hakurya ye hari ibiti hari n'amazu ahubatse ndetse n'amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi.

Umu mama wambaye ibitenge ndetse n'igitambaro, yambaye n'agasharupe k'umweru, akaba ahetse umwana ari mu muhanda wa kaburimbo, ari kugenda yitegereza imbere niba nta kinyabiziga kiri guturukayo.

Umugabo uri mu muhanda wa kaburimbo, ari kwitegereza inyuma, afite akamvilope, yambaye ishati y'umweru, yambaye agakomo mu kaboko k'umuhondo ndetse ipantaro y'umukara na kamambiri, inyuma ye hari amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo aho ari kugendera mu kayira k'abanyamaguru, inyuma ye hari akazu k'umuhondo ka MTN.

Umuhungu muto muto wambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'agapira k'umukara, ari mu muhanda w'abanyamaguru wa kaburimbo, akaba afite indobo y'umweru irimo ibyo kurya acuruza.

Umwana w'umunyeshuri wambaye iniforume uhetse igikapu wambaye n'isaha, arimo aratambuka mu kayira k'abanyamaguru mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'ivatiri iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iri yonyine inyuma yayo hari amazu yubatse mu buryo bugezweho asakaje amabati y'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo umumotari ari kugendamo ahetse umugenzi ndetse ari mu muhanda wenyine, yicaye kuri moto acanye itara ari kwerekeza imbere.

Umukobwa ukiri mutomuto utagaragara isura, wambaye imyenda y'umukara, ari mu muhanda wenyine, ari gutambuka, ari kwihuta, afite na telefone mu ntoki.